Ubwishingizi ni ibintu bishobora kugutabara, bigatabara ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abana bawe cyangwa ubw'umugabo wawe biterwa. Imodoka zawe, inzu zawe, igihe byangiritse rwose hano baragufasha, ntabwo bigoranye rwose. Ni byiza ko nawe wajyayo ukiteganyiriza.

Ubwishingizi ni ingenzi kuko buragutabara igihe uhuye n'ibyago cyangwa se uhuye n'ibibazo. Ndetse nkuko ubibona kuba ukwiriye gukorana natwe mu bwishingizi. Niko bari kuvuga kuri iyi nzu itwikirije umutaka rwose, nawe wagerageza ukareba.

Ni byiza ko nawe waba ufite inzu, ikinyabiziga cyangwa se ibindi bintu runaka ushaka kwitaho ukabirinda kwangirika ngo bihombe, wabijyana mu bwishingizi ni yo nzira yonyine ihamye ushobora kuba warengera ibyawe byose urugero imodoka, inzu ndetse n'umuryango wawe.

Umwishingizi ni ikintu gishobora kugutabara ngewe ubivuga ndabizi neza, kuko ababugize nabababera umuhamya. Bahuye n'ibibazo bitandukanye bahita babikemura, ndetse kubera babimenye hakiri kare. Rero hano baravuga ngo duha agaciro ibyo uha agaciro ibindi imyirondoro yabo wayisanga aha ngaha rwose bakagufasha.

Rwose ni ngombwa ko wakishyura mituweri kugiti cyawe wifashishije urubuga leta yashyizeho rwitwa Irembo, haje byikorere rero bahita baguha mesaje ibigaragaza urabona ko uyu mubyeyi yari amaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza.

Nyamara wagira ubuzima ufite ubwishingizi ndetse n'ibintu byawe bikaba bitunganye binameze neza, igihe runaka byagira ikibazo bakakugoboka. Iki kirango rero kiri mu ibara ry'umuhondo, agatara gasa nagashushanyije n'andi magambo ni kimwe mubishobora gutuma umenya aho ubariza.

Kuba wafata ubwishingizi bw'imodoka yawe cyangwa inzu cyangwa umuryango wawe, ni byiza kuko byagutabara igihe cyose uyakeneye cyangwa se ukeneye ubundi bufasha. Urugero niba ugonze cyangwa se inzu yawe ihiye, icyo gihe barakugoboka rwose. Rero nawe, nakugira inama nk'uko ubibona muri iki kirango hariho ibiceri byinshi bihita bigutabara.

Ubwishingizi ni bwiza cyane kuko butabara ibintu byinshi ndetse bukanagufasha. Hano reronk'uko ubibona iyo wabahaye nzu n'imodoka biba byizewe, aha kuri ikikirango niho biba biri ndetse ushobora kubagana bakabiguha nawe.

Gufata ibintu byawe ntibyangirike cyangwa ngo ubihombye ni byiza kuko byagufasha rero iyi nzira ni iyo kuyoboka ubwishingizi nkuko hano SONARWA ibikora rwose nawe ufite imodoka yawe cyangwa Youtube barabigucungira igihe bihiye bakaba bakugoboka aho biri ngombwa.

Gukoresha apurikasiyo za banke runaka ni byiza kuko bigufasha ibintu byinshi ukurikije uko ibintu bimeze. Rero n'uyu nguyu na we nibyo yaragerageje, urabona ko hari aho yarari gushyira amafaranga n'igihe ari buyoherereze, nuwo agiye kuyoherereza.

Amabanki yose yo mu Rwanda cyangwa ku isi hose, yagerageje uburyo bwo kuba yakoresha apurikasiyo, aho ureberaho imyirondoro itandukanye ndetse n'iy'abantu batandukanye, ushobora kuba wakishyura ndetse ukanagura ibintu bitandukanye. Ni byiza rero ko wabikora, nta kibazo nawe byagufasha, nk'uko ubibona iki ni kirango kirimo akarongo k'icyatsi ndetse no hasi handitse ijambo ry'ubururu ryerekana ngo byakozwe.

Banke zarabyoroheje rwose badukorera amapurikasiyo ushyira muri terefone yawe ukayigendana aho ugiye hose, hanyuma wagira ikibazo cyo kugura cyangwa kwishyura ugahita ubikoresha, ndetse ukabasha no kureba amakuru yose ajyanye na konte zawe, ibyinjiye n'ibyasohotse.

Apurikasiyo y'amabanke niyo adufasha ibintu byinsi, kuba twakohereza amafaranga, tukayabikuza ndetse n'ibindi, ni byiza rero nawe wajya uyikoreha nk'uko ubibona, iri mu karango k'ubururu ndetse n'utuzu tw'umweru rwose, ugenda wuzuzamo imyirondoro, y'ayo ushaka kwishyura, cyangwa ayo ushaka gutanga.

Buriya banki ni zo zabikemuye, ni na zo zizi agaciro k'ukuntu wakoresha apurikasiyo kubera ko haba hariho ibintu byinshi bitandukanye, aho ushobora kuba wakohereza amafaranga ku zindi ukaba wakoresha amakarita ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye wishyura amazi n'umuriro.

Kuba wakoresha apulikasiyo ya banke ni byiza cyane kuko bituma umenya aho isi igeze, ukabasha kwishyura amazi, umuriro, ndetse n'ibindi byinshi. Rero ugomba kubimenya, ukanabagana bakagufasha, bakakwereka uburyo ikoreshwa n'uburyo bikorwa.

Buriya ama apurikasiyo adukemurira ibintu byinshi. Tureba ibyo dushaka tukishyura ibyo dukeneye ndetse tugakurikiza n'ingamba baba barashyizeho kuko tubona imyirondoro byoroshye aho kugira ngo tujye gukandaguzwa imibare.

Amabanke niyo yabyoroheje aho tutakijya gutonda umurongo runaka ngo turikwishyura amazi cyangwa se tukajya ku bakozi babo ba hafi aho ngaho ngo turikugura umuriro, aho ubu ngubu apurikasiyo bakoze zabyikemuriye nk'uko ubona rwose uyu muntu arimo arayikoresha muri telefone yiwe.

Kohereza amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza rwose kuko biradufasha ndetse n'amatelefoni yacu yarabikemuye ntabwo tukikoza amafaranga mu ntoki cyangwa tujye kuyoherereza abantu twihebe cyangwa tuyayobeshe kubera turi gukanda ku mibare. Ubu ngubu urabanza ukabona imyirondoro ye mbere.

Application ya banke niyo yagutabara igihe umwanya umwe ibyo uri gukanda byanze, biragufasha cyane urajyaho ukareba amakuru ibyo wakoze nibyo utakoze bikakorohera kuruta gukanda ubunyenyeri.

Ni byiza ko nawe niba ukeneye kugura imyenda myiza, wajya mu maduka ubona ko akeye. Baba bafite ibintu by'umwihariko bikomeye, binadoze neza cyane cyane ibikorerwa inaha iwacu mu Rwanda.

Ushobora kugura imyenda myiza n'ibintu bigufasha ugasa neza. Hano rero, ni uwihangiye imirimo ariko we yadoze udukapu, urabona ko dukeye, ni udusirimu, wakagura ukagatwaramo imyenda cyangwa ibindi bintu runaka bishobora kugufasha.

Ni byiza ko nawe niba ufite umukunzi cyangwa se undi muntu ukunda cyane wamugurira impano hakiri kare cyane ko na wa munsi wo kwizihiza abakundana wenda kugere. Iyi rero ni imirimbo bashyira mu ijosi cyangwa se ahandi hantu biterwa waza ukamugurira.

Uyu mwari aracyari muto imisatsi irafunze ukuntu ufite agashakoshi Kenda kuba umweru ndetse n'iumutuku arimo arambika Ikote kugirango arimanike abantu benshi bajye baza barireba ni byiza rero ko nawe waza kuhagurira haracyeye urabona bafite imyenda y'abasirimu gusa.

Uno mubyeyi rwose yagerageje kwihangira imirimo kandi biragenda bituma yishyura inzu akoreramo akishyura niyo abamo akagaburira abana be akabishyurira n'ishuri harimo rero ibikoresho bya kinyarwanda n'imitako runaka ushobora kuza ukagura mu igihe ufite ubukwe cyangwa ibindi.

Rero uwihangiye imirimo agomba no kuzana agashya rwose cyangwa se akantu k'umwihariko abantu baza kumugurira, bagahita bakabona bakamugumaho. Uyu rero nawe nguyu yarabigerageje, urabona ko utu tuntu rwose utapfa kutubona.

Kujya mu maduka acuruza imyenda bifasha byinshi kuko urareba iyo ushimye ukayitwara rero ni biza ko nawe wajya ugerageza ukajya kuri hahiramo harimo n'imiringa, imitako yo munzu ndetse n'ibindi byinshi cyane. Uyu muntu rero ubona ko yihangiye imirimo.

Nibyiza ko nawe wajya wigurira ibintu wibereye mu rugo cyangwa se uri ahantu runaka. Urugero niba ushaka inkweto, ipantaro, ukajya ku mbuga nkoranyambaga, ushobora kubisangaho. Urabona ko ari agasakoshe keza gafite utuntu dutatse.

Hari amaduka agiye yiyubashye ahahiramo abantu ubona ko bafite agaceri cyangwa se amafaranga, hano rero harimo amakanzu meza y'abasirimu cyane kandi nk'uko nawe ubyirebera arakeye n'ukuntu amanitse rwose n'ibintu biri ku murongo apana bimwe byo muri tera hejuru.

Kuza guhaha ni ngombwa ariko nk'uko ubizi turi mu Isi y'iterambere ntabyo kuzana amafaranga mu ntoki, uyu musore rero nk'uko ubibona yarari kwishyura akoresheje ikoranabuhanga niko ntekereza hakurya urahabona udukarito ndetse n'imyenda y'abagore.

Kuba wakora akazi cyangwa ugakora ibindi bintu runaka bituma wiberaho ku giti cyawe cyangwa se ugatunga umuryango wawe ni byiza, aba rero biyemeje gukora ibintu bijyanye n'imiringa bambara mu ijosi, ku maboko ndetse no mu nda, bashyiraho n'utuntu ushobora gutaka mu nzu nyine tujyanye na Kinyarwanda.

Hari imidoka zabugenewe kugenda bagapima, rero nkurikije uko mbibona iriya n'iy'umutuku bayimanitse hejuru, ibi ni ibyuma bishinzwe kuzireba noba nta kibazo zifite, hakurya urahanona indi y'umweru nayo , amakaro meza, harasakaye hari n'amatara kuburyo nijoro wakora ntakibazo ukareba, zishobora kuba zinacuruzwa nkurikije uko mbibona.

Kuba wagura imodoka cyangwa wagirana ubucuruzi n'abandi bantu runaka ni ibintu byiza cyane kandi byoroshye, hano rero barazicuruza inyuma urahabona iya nisani y'umukara icanye amatara, ndetse n'abagabo babiri basa naho bishimanye imikorere ya bo yo kuba bagura cyangwa bakagurisha.

Ubaye ufite amafaranga nawe wagura imodoka nk'iyi ngiyi rwose yo mu bwoko bwa Benzi ikorerwa mu Budage kuko irakomera cyane kandi iranikorera ntabwo ari nka zino za Hoho zihita zicika feri ugasanga zabaye ubufu, bano bagabo babiri rero bamaze kugirana ubugure.

Hari ibintu bigutabara igihe ukoze impanuka wenda imodoka yawe ikabasha kuba yakwibarangura kandi utabashije kuba wayiterura, itabaze rero zino modoka nizo zifite ubwo bushobozi ndetse n'izo mbaraga zo kuba zayikura ahantu yaguye zikayishyira ahandi.

Ni byiza ko nawe ubaye ufite amafaranga rwose wajya wigurira imodoka yawe kiya bibiri na cumi na kane kifayive rwose iyi niiyi inywa esanse cyangwa se ikagira na batiri biterwa n'ibyo ushaka kugenderaho. Ni nziza rero nk'ukoubibona ifite n'amatara irasa umweru iparitse ahantu mbere ya etage.

Imodoka nziza rwose ibereye ijisho ubona ko nawe ari ibintu byiza kuyitunga, utayijyana mubantu ngo baguseke, ni ubwo bwoko bwa yundayi, ubonako ni ahantu mukirahure buri wese yayicishamo akareba.

Imodoka rero ni nini cyane, hariho izitwara amabuye n'imicanga ndetse n'amatafari, zikoreshwa kenshi mu mirimo y'ubwubatsi bw'amazu, hano rero aba ni abagabo babiri ubonako bambaye amashati meza cyane, bari bamaze kugirana amasezerano bisa n'aho bari bamaze kugura ino modoka.

Kugura Imodoka n'ikintu kigufasha buri munsi ariko nanone ugasanga gitwara ibintu byinshi, bisaba kuba wiyizeye rero unafite amafaranga ahagije kubera ko niba unywa buri munsi kugira ngo igende, igapfa ugomba kuyikoresha. Rero iyi nayo iragurishwa, wayibona rwose ku mafaranga yawe.

Hari ahantu uribugere ukabona ko haryoheye amaso bitewe n'ukuntu hameze, hano rero ni ku gitaka hari ikirango cyanditseho Toyota, hakurya hari inzu nini cyane ubona ko hari n'imodoka nyishi cyane, umuzamu ku rugi aho winjira akakubaza imyirondoro ndetse ushobora nawe byaba bitewe n'icyo ushaka bakakiguha.

Iyi rero ni imodoka yo mu bwoko bwa benzi iragurishwa miriyoni makumyabiri n'eshatu. Ikorwa n'Umudage kandi irakomera niyonama nakugira rwose ufite amafaranga wayihahira rwose ni bibiri na cumi na kabiri.

Buriya kujyana ibikorwa byawe ku muhanda biba bigufasha ko ugukeneye wese yajya akubonera hafi. Hariya hari ibyatsi, ibirango, amapoto y'amashanyarazi ndetse n'ibyapa byanditseho yondayi bacuruza amamodoka rero waza ukabahahira.

Gura imodoka niba ufite ubushobozi bwo kuyitunga, ukaba wayimara na igihe kinini, bano bagabo ubona rero, inyuma yabo hari iy'umweru nziza cyane ubona ko inakomeye, ni batatu bafite icyapa cyerekana ko bamaze kugirana ubunshuti buhambaye, bagurana ibintu runaka.

imodoka ni ikintu gitunguwe uyifite cyangwa se wari ufite amafaranga ahagije kuko ntago wajya kuyigura utazi ko uzajya uyinyweshereza buri munsi cyangwa se niyotaba ari buri munsi ariko nka gatatu mu cyumweru kandishyiramo amafaranga menshi cyane rero nkuko uzibona zino ziri bwoko bwa toyota n'iz'umukara zose zirasa hari ikamyo ihari itwara imizigo.

Imodoka rwose yo mu bwoko bwa Yundayi sonata iyo uza kuba wayigurira ubaye ufite amafaranga miliyoni umunani gusa ukaba urayegukanye, irareba neza iracyari nshyashya ubona ko itarambara n'ibirango biranga ikinyabiziga rwose wagerageza ukayigurira.

Imodoka nziza cyane rwose y'umutuku ubona ko ifite amatara ureba neza ari kwaka ayo hasi ndetse nayo hejuru, hirya urahabona indi nazo biri kumwe rwose bisa naho ziba ziri ku isoko uraza ukugurira nawe, waba ukeneye ayandi makuru wabariza kuri izo nimero uri kubana ahongaho.

Kugura imodoka bishobora kuba byakorohereza akazi, igihe runaka wenda ubaye ufite ibindi bintu ukora bigusaba kuba wagenda ahantu harehare cyangwa kuzinduka, rero ni byiza ko nawe ubaye ufite ubwo bushobozi wabikora, iyi rero ubona ni nziza cyane, ni iy'umweru kandi irakeye, irirukanka ubaye ufite amafaranga wayigura.

Ko ahangaha nawe wajya uhagera, uje kuvunjisha amafaranga udafitiye ubushobozi bwo kuba watunga igihe kirekire kandi uri mu gihugu adakoramo. Uyu rero azanye amadorali, ndetse arimo aratanga andi ngo bamuhe ayo abasha kuba yagira icyo ayamaza.

Ni byiza ko nawe niba ukeneye amafaranga, kuko kuri iyi si nubwo turi kugenda dutera imbere tugane mwisi y'ikoranabuhanga gusa hari abagifite imyumvire ya kera ngo utamwishyuye mu ntoki ntacyo mwavuga, rero hano uraza tukayaguhereza ukayajyana.

Aha rero ni ahantu uza bakaguhereza amafaranga muntoki wowe ukayatanga kuri Telefone, uno mubyeyi rero nibyo yararimo urabona afite ikaramu y'igiti, hirya hari umusore ubona ko yari afite ikote kurutugu yishimiye kohereza amafaranga kuri banki runaka.

Kuba wacuruza amata ni ibintu bishobora kukugaburira isaha iyo ari yo yose. Hano rero urahabona icyuma kiyatunganya, imibirikira kugira ngo atameneka ishinze mu ijerekani, hakurya hari umwari, ubona ko ari kwakira abari baje kubigura harimo uyu musore rwose uri kumwe n'akana.

Kuba wafata ibintu runaka cyangwa se watangiza umushinga wo gucuruza amata, abantu bakajya baza kuyanywa ni ngombwa ko wajya ugira utuntu two kwihanaguza igihe ibintu byagiye ku munwa wa bo. Rero nawe ntukatubure iwawe tuno tw'umweru rwose.

Uyu musore yihangiye imirimo nk'uko ubibona rwose araza ku muhanda ahafite akazu n'ubwo kaba ari gatoya aravuga ati ngiye gutera udutebe hanze ndetse njye nakira abantu mbatekera umureti n'ibindi, hari imineke hari amagiye, amandazi na capati agasahani n'agasenda barazi bagahita babigurara.

Ni mu iduka rwose ubona ricuruza amata hakaba hari n'inindi bintu byinshi cyane, si ibyo gusa hakaba harimo ji, fanta, amazi n'ibindi. Uriya mwari rero afite igikapu, hari akabido gateretse imbere ye, ikayi impande ye ndetse n'intebe, inyuma ye hari igare.

Kuba wagurira umwana wawe amata n'ibintu bishobora kumufasha aha hano rero banabonye uburyo bwo gukemura ibibazo byari bihari kuba barayabikaga amajerekani ugasanga amaze igihe ahise apfa bazanye ibyuma biyatunganya rero bikana yamarana igihe kirekire ndetse bikanabika menshi ,hari intebe nziza zo kwicaraho ukaba wa yahanywera cyangwa ukayacyura, hakurya urahabona ikarito rwose irimo n'amazi ya niri( Nil).

Kwihangira umurimo n'ibintu byagufasha kandi cyane, aha rero ni ahantu bacuruza amata, fanta, ji ndetse n'ibindi byinshi ushobora gusangamo n'ibyo kurya harimo amandazi, keke na capati aho ushobora kwihahira nawe ukumva umeze neza wanariye.

Amata ningenzi mubuzima bwawe bwa burimunsi ababyeyi mugomba kuyaha abana banyu cyangwa mukabatekera icyayi buri mugitondo igihe babyutse cyangwa mukahesha n'amandazi rero ntakabure iwawe.

Gucuruza amata ni byiza ndetse byagufasha bikagutabara hano rero nkurikije ukuntu ukintu gikonjesha kimeze gikorerwa mu Rwanda bakita furorisa harimo akabido k'amata, amazi, ijagi ebyiri, amajerekani hasi igikombe.

Uyu mwari rero yagerageje gukora akazi ashinzwe yihangira imirimo, agura icyuma cy'amata nubwo gihenze, ndetse harimo na keke, ji, fanta, n'ibindi. Uyu mugabo ubona rero, yari yaje kugura ahari niba ari ko mbibona.

Kuba wajya kwinywera amata ahantu runaka ni ibintu byagufasha cyane, hano barayacuruza intebe nziza rwose ubona ko ziriho udusego duhanagurwa, ameza arakeye cyane, ibirango biriho utubido twinshi ubona ko ari ibirango biranga ahantu uje.

Buriya kwihangira imirimo ni ibintu bishobora kugufasha cyane bigatuma utunga umuryango, abana bawe ukabishyurira ishuri ndetse n'ubwisungane mu kwivuza, bakajya bajya kwa muganga ntucibwe menshi. Uyu nawe n'ibyo yagerageje, acuruza amata, ubona uriya mwari wicaye hejuru rwose ahari ibintu by'umweru, abategereje abakiriya nyine baze ngo bayatware bajye kuyateka.

Kuba haraje amapulikasiyo rwose byarakemutse, nk'uko ubibona uyu muntu afite terefone mu ntoki bigaragara ko yari amaze kwishyura akoresheje ikoranabuhanga nkurikoje uko mbibona hariya hari ahantu habitse amakuru menshi cyane utungaho kamera ya terefone bagahita baguhereza ibirimo niba ari ukwishyura ukishyura.

Kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko biragufasha guhindura ubuzima uko ubibona rero aha ni ahantu buzuza imyirondoro kugira ngo ubashe kuba wabikora, ukoresha amakarita mobayiro mani ndetse n'ibindi byinshi.

Koresha apurikasiyo rwose ni ibintu byoroshye kuko byagutabara cyangwa se bikagufasha nkurikije ukuntu aha byari byaratuzonze gukanda ubunyenyeri rimwe na rimwe binanga, rero aha naho niho ushobora kwishyura amazi n'umuriro ndetse ukoherereza abantu benshi amafaranga icyarimwe.

Ni biza ko cyane ubu byaranoroshye konte yishyura amazi n'umuriro ndetse n'ibindi, nk'uko ubibona uyu nguyu nawe yari abihisemo akoresheje mobiyilo mani yiwe na terefone byonyine, hari uburyo bwinshi rero yahitamo akaba akoze ibyo asabwa nk'umuntu n'ibyo yakonsomye byose akabitanga.

Hari ama apurikasiyo rwose ubona atabara igihe ahuye n'ibibazo, hari igihe iyo uri gukanda utunyenyeri bakubwira ngo hamagara ijana, bikanga neza neza, ariko iyo wifitiye ako kantu mvuze byose urabikora nta kibazo, urugero nk'iyi sipeyindi.

Wakishyura koresheje ikoranabuhanga, ni byiza kuko byagufasha, hari amapurikasiyo menshi rwose ashobora kubikora ku buryo udashobora kwirushya nawe, urugero nk'iyi ng'iyi ubona ko yari amaze gutanga amafaranga runaka ndetse hari nayo yari asigaranye.

Inyemezabwishyu ni ingenzi, cyane ko uba unagomba kumenyekanisha umusoro wawe rwose bikagenda neza, nk'uyu nguyu, urabona ko aribyo yari akoze rwose kandi yari asize itafari ku gihugu ndetse n'ibikorwa remezo muri rusange.

Niba nawe waramenyekanishije umusoro kare nibyiza kuko washyize itafari kubigo by'amashuri bizubakwa ndetse imihanda izakorwa amavuriro ndetse nibindi byinshi, rero ibyo uba ugomba kubikora kare.

Kumenyekanisha umusoro ni byiza kuko biragufasha, rero uyu nguyu yaramaze kuwukoresha muri mudasobwa agaragaraza inyungu yatanze ndetse n'iyo yinjije, rero iyo yari inyemeza bwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro na mahoro mu Rwanda.

Inyemezabwishyu ni nziza kuyitanga ndetse urabona ko Ntakirutimana yagerageje gutangaza umusoro w'ibyasohotse cyangwa se w'ibyo yatanze, mu mwaka washize wa bibiri na cumi na gatandatu rwose, urabona ko yubahirije igihe.

Mucuruzi, mushoramari, mukozi runaka, niba ufite ikintu ukwiye gusorera, ugomba kubitangira urutonde ndetse ukabasha no kugera aho bikorerwa ukareba ukuntu biba byifashe, nkuko ubibona rero n'aho, ibi ni byo byemeza ko uba warakoze ibintu runaka waranabyishyuriye rwose.

kumenyekanisha umusoro wawe hakiri kare utaracibwa amande nk'uko kubona uyu muntu yabigerageje arabikora kandi byarakunze iyi rero n'inyemezabwishyu yo mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro batanga ku muntu wabisoje neza rero nawe menya ko uba ugomba gushyira itafari kumavuriro imihanda n'ibiraro byubakwa mu gihugu

Izi ntoki ukunu nzibona hariho amabara ni iz'umugore yambaye igikomo agashati keza, uri gufata wundi niba nitegereje neza ni iz'umugabo rero bari baje kuvunjisha ngo umwe atware andi n'undi nawe bamuhe ayo akeneye.

Ngo ufite amafaranga ukajya kuyatanga hakaguha andi bitewe n'aho ugiye ni byiza rwose hano uraza amatanzaniya bakaguha amashirigi, ugatanga amagande bakaguha amanyarwanda. Biterwa n'ayo ufite cyangwa ayo aho werekeje.

Nibyiza ko rwose nawe ubaye ufite amafaranga adakora mugihugu cyawe wajya uyifashisha ukayazana bakayavunja, ari gutanga amadorari ndetse agahabwa nandi yo muri nijeriya nimugihugu giherereye muri afurika, rero nawe ugomba gushirika ubute.

Ni byiza ko nawe niba ufte amafaranga runaka, amashinwa, amanyarwanda, amanya kenya, ama uganda, kuza ukayavunjisha kuko biremewe, hano rero ni mu biro byabo aho ushobora kuza ukayatanga bakaguha ay'igihugu ugiyemo, urahabona hakurya za mudasobwa ndetse na televiziyo muri rusange.

Hari ibigo bikomeye cyane byashinze umushinga wo kuba wajyayo bakajya bakuvunjira rwose mu buryo bwihuse nk'uko hano babikoze ni hanini urinjira nta muntu uhejwe rwose n'abanyamahanga barahaza.

Kohereza amafaranga incuti n'abavandimwe byaroroshye aho bitagisaba kubategereza ngo bazaze kuyatorara ahubwo uragenda ukayashyira kuri wesitani yuniyoni bakayamwoherereza, cyangwa kuri manigaramu biterwa nibyo ushaka gukoresha, hanze nyine ya yuganda, kenya, tanzaniya amugeraho.

Rero ni byiza kuba bafite amafaranga yo kubahinduza, urugero niba hari amanyarwanda bakaguha amagande, biterwa n'ayo ufite. Wagana hano rero uno mugabo wambaye umupira w'umukara ari gusohoka, murabibona muri ibi birango rwose baragufasha, hari amabara y'ubururu ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Kugerage gushora mu bintu runaka ni ibintu bishobora kukubyarira inyungu utateganyije cyangwa utatekerezaga urugero nk'uyunguyu ako kazi yagashyizeho ibintu byose akora iyo uhageze rero urumva afite ayo akwaka kugira ngo agufashe ndetse nayo ahembwa n'ibi bigo akorera.

Gusohoka ahantu ukagendajya kuvunjisha rwose ni byiza cyangwa ukahereza amafaranga mu mahanga cyangwa nawe akakugera aho avuye aho ngaho mvuze ukaza ukayafata ni byiza, rero hari ahabugenewe kubikora nk'uko uyu musilamukazi ari gusohokamo hari ibyabugenewe byitwa wesitani yuniyoni, manigorowu na emu pesa.

Haraho ushobora kuza ukanavunjisha ibintu bikagenda neza cyane cyane nkamafaranga yamanyamahanga adakora mugihugu cyawe runaka uge ugerageza rero uhagere utange amadorari baguhe amanyarwanda utange amagande baguhe amatanzaniya.

Ni mu nzu nkuko ubibona harimo utubati twiza, imitako irimo ibiti, indi imanitse hakurya, televisiyo yo kureberaho umupira, indirimbo cyangwa firime, amatapi ashashe hasi rwose urabona ko hakeye ni byiza ko nawe wayoboka inzira y'ububaji rwose.

Abantu babaza rwose ni abahanga! Ndebere nk'utu tuntu turi hano ntago wamenya ngo ni uduki ariko nkurikije ngewe ukuntu ntubona ntujyanye iwange najya ntuterekamo imitako runaka kugira ngo uza wese nyine abone ko bisa neza.

Hari abantu kubaza bigaburira ndetse bikanishyurira inzu bakabaho mu buryo bifuza rero nkuko ubibona izi ni intebe wicaraho ukariraho ndetse n'ameza yaho uterekaho amasahani geregeza nawe uzazigure uzambwira.

Inzu yawe ubundi bigomba kugaragara neza haba ku mananywa haba nijoro haba udahari cyangwa uhari, izi ni intebe nziza cyane ubona ko zikoze mu mbaho zifite imisego myiza cyane ikeye inasa n'utundi two kwegamaho hakurya ukahabona izo kuriraho ndetse urabona ko iteye n'irange ryiza cyane.

Iyo uri mu mahanga cyangwa se ahandi hantu hatandukanye ku isi, akenshi ukunda kubogamirwa naho ushobora kuza ukaba igihe kinini cyangwa se igihe gitoya kugira akazi kawe kagende neza. Ariko iyo ufite nk'ahantu runaka ufite uzaba ni ibintu byoroha cyane iyo uje ukigiramo muri hoteli haba hari ibintu byinshi uzakenera ibyumba, ibiryo ndetse n'ibindi ushobora kuza rero nawe ukagerageza.

Hari amahoteri meza cyane agiye afite ubwogero bunini ubona ko niyo uhicaye haba hasa neza, iyo ugisohokamo haba hari inebe zo kwicara baguha icyo kwihanaguza ukanywa agafanta kawe hanyuma ugataha.

Ahantu rero watemberera ukanoga ni nk'ahangaha cyangwa se ukajya mu mahoteri runaka, hakurya urahabona aho kuryama rwose, wambara imyenda yo kogana ukahita uza ukigiramo, wasoza ukahita uza ukaryama.

Kuba wajya muri hoteri runaka, ubashije kuyishyura, ni byiza cyane kandi. Hano rero, urahabona hari ubwogero bwiza, hasa ubururu aya amazi rwose, ibiti biri hirya, aho kwicara igihe uvuyeyo, ni byiza ko nawe rero wajya uhatemberanira n'umukunzi wawe.

Ni byiza gutemberera urabona ko hasa neza, urugero aho ahari utwatsi nk'utungutu, amabuye y'umukara ndetse n'umweru, intebe nziza cyane zirimo umutuku, ahantu hasakaye ubona ko n'imvura yakunyagira. Nibyiza ko nawe wahagera.

Hari amahoteli menshi yiyubashye ushobora kujyamo ugasanga ibintu byarahenze, hakurya abonye ibiti ikirere, nk'urikije ukuntu urabona ari mu kajoro, uyu musore wambaye umupira w'umweru cyangwa se ishati ari kuzana ibintu bari bamutumye, hakurya urahabona abandi bicaye bari kwinywera banareba umupira.

Buriya kujya mu mahoteli ni ibintu bigutabara igihe runaka, kuko ushobora koga ugakora umubiri wawe, ndetse ukaba wagufasha kugenda neza. Izi ntebe nizo ujyamo igihe usoje ugahita wiyakira agafanta kawe ukanywa ubundi ugataha.

Nibyiza ko nawe wafata ubwishingizi imodoka yawe, moto yawe, inzu yawe, n'umuryango wawe bahagoboka igihe biri ngombwa rwose uzagerageze ubirebe buriya uwabimenye ntago abyicuza rwose, niyo nama nakugira.

Ni byiza ko wajya ufata umwanya ukaza ugasobanuza ibintu bijyanye n'ubwishingizi iwawe cyangwa se ku bintu byawe ukamenya aho bigeze cyangwa ukamenya byahindutse, nkuko nyine hano naho aribyo bakora uri mushyashya cyangwa se ukaza kwishyura ubundi igihe bwarangiye.

Kuba ufite ubwishingizi n'ikimwe, no kuba utabufite n'ikindi, uzabaze ababuguze mbere icyo bakurishije kuko bagize ibyago burabagoboka, hano rero urabona hasa umutuku, hari intebe nziza z'imikara, abahari bahita bakwakirana urugero rwose iyo uhageze.

Ni ahantu henshi ushobora kuza ugasaba ubwishingizi kandi ntuhezwe bakabuguhereza rwose, ni byiza ko nawe ugomba kubufatira inzu yawe cyangwa imodoka, n'umuryango wawe. Hano harapavomye, aho guparika imodoka rwose ukayihashyira, hakurya hari indabyo nziza cyane gusa haracyasa nkaho hakiri imirimo yo kubaka.

Ubwishingizi ni yo ntwaro yo kuba wakora ibintu runaka bikagenda neza. Aha rero urabona nkuko hakeye hakurya hari ibiro birimo mudasobwa uza rero bakakwakira bakakubaza ibyo ushaka aha babiguhereza rwose ntakibazo.

Niba uziko ufite imodoka, inzu ndetse n'ibindi cyangwa se umuryango wawe uka utarawushinganishije wombi, ufite ibibazo bikomeye byo kubabura ndetse n'ibyo byose ukabihomba, rero ni byiza kubikoresha ukaza bakagufasha rwose igihe inzu yawe ihiye cyangwa imodoka cyangwa se umwe mu bantu bawe bakarwara ujya kwa muganga ukwishyuza amafaranga makeya.

Iyi ni imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo irasa umweru, amapine ni umukara, iri mu muhanda ukikijwe n'ibiti birebire binini, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bakoresha aho hantu bose.

Kuba wajya ahantu gufata ubwishingizi byakugoboka nyamara igihe runaka ugize ikibazo hano rero urahabona hariho n'ibirango byabo ryose mu mabara y'ubururu ndetse n'umuhondo amakaro meza cyane ureberamo amatara hejuru ndetse nandi y'umukara ari hasi ryose ahashashe.

Rero kuba warafashe ubwishingizi bw'imodoka yawe cyangwa inzu, ni byiza wahisemo neza. Hano rero naho barabutanga ubona haparitse nyinshi, isa naho zaje ari byo zije kureba kuko nkiyo ugize ibyaggo ukagonga umuntu baramuvuza rwose.

Ubaye ushaka ubwishingizi, iyi nyubako urabibona, ushobora kuza ukahajya mu mabara y'ubururu n'umuhondo. Hasi hari imodoka nziza zihaparitse nyinshi cyane. Ni byiza ko nawe wayifashisha kuko byagutabara igihe runaka.

Gusabiriza ntabwo ari ikintu cyiza cyane cyangwa kubura amafaranga wishyurira umwana mu ishuri ukaba wabura nayo kumuvuza ni byiza ko nawe wahaguruka ugashaka icyo ukora nk'uko bano babyeyi babigenje bahitamo kujya kuboha uduseke n'iyindi mitako ushobora gushyira mu nzu iwawe kandi nabo birabatunze.

Gufata ideni uzishyura byagufasha bikakugirira umumaro kandi ukaryubakisha inzu cyangwa se ikibanza rero gira vuba utabarire ku gihe rwose urebe ko nawe wagira icyo wigezaho rero bagusaba imyirondoro yawe: aho uba, aho uva, mama wawe na papa wawe na papa wawe ndetse na nimero z'irangamuntu yawe.

Niba wabasha gufata ideni uzishyura ni ngombwa kugenda bakariguhereza, hano niko bigenda, ukaba wasiza ikibanza cyawe ugahita ucyubaka cyangwa se ukagura inzu, ni byiza rero uzagerageze urebe ariko uzafate ibyo ubasha kwishyura utazarya ibintu kwishyura birakunaniye ugasanga barakunize.

Kuba wafata inguzanyo cyangwa se ideni ni ibintu byagutabara ariko bitewe n'icyo ugiye kurifatira. Rero inama nakugira ni uko niyo uziko wazaryishyura nibyo byiza kuruta uko warifata utazi aho uzayakura rwose.

Kuba wafata ideni ni byiza, bishobora kugufasha ugura ikibanza cyangwa se ugakora ibindi bintu runaka kugira ngo bizagende neza, murikubona ko kuri iki kirango uyu mugabo yishimye yambaye ikoti afite amafaranga menshi cyane.

Ufata inguzanyo ukaba wakubaka inzu cyangwa se ukagura ikibanza waba utekereje neza kuko igihe unaniwe kubishyura wakongera ukabigurisha ukishyura, ariko ntabwo wayifata ugiye kugura imodoka ubwo se ipfuye? Kandi nanone udafite akazi gashobora gutuma ukomeza ukishyura kandi nayo yarapfuye, gerageza utekereze kabiri mbere yuko uyifata, hano muri ekobanke bayiguha, nk'uko uyu mwari yishimye kuva yayifata.

Gufata inguzanyo uzishyura byagufasha pe niyo nakugira kandi ukanubaka inzu yawe cyangwa se ikibanza nta nkomyi ariko na none ukirinda gufata iyo utazishyura, yifate bitewe n'umushahara wawe uhembwa ku buryo bitazakubangamira cyangwa ngo bibangamire ibindi bikorwa byawe.

Hari ama banke rwose ubonako yaguriye abantu bayagana kuba yabaha uko babishoboye hano rero wahaza nawe bakaguhereza Inguzanyo kuri copedu hakurya yaho hanaparitse moto ahandi hateyemo ibiti iriya miryango niyo winjiramo ukavuga ikibazo cyawe.

Ababyeyi rero bamenye ubwenge bajya kwihangira imyuga, umwe acuruza imyenda, abandi imiringa, abandi ibikinisho ndetse n'ibintu ushobora kujyana murugo iwawe. Urabona ko batasabiriza rwose cyangwa ngo babure kwishyurira ishuri umwana n'ayo kwivuza igihe barwaye.

Uyu mubyeyi ubona ko yihangiye umurimo rwose ku gashati ke ndetse n'ijipo yiyambariye ubona ko nayo ikeye irimo utuntu tw'umweru hakurya hari inyanya, ibitunguru, intoryi, amaronji, imineke n'amafu n'ibyo rwose acuruza waza ukamuhahira.

Ubworozi bw'amafi ni ikintu gishobora kukugaburira isaha n'isaha ndetse kikanakugoboka aho bikomeye, rero uyu mudamu ubona ko nawe nibyo yagerageje gusa yari yaje kuroba arimo arayashyira mu ibase ayaronga neza kugira ngo ayajyane ku isoko ayacuruze.

Kwihangira imirimo ni ibintu by'ingenzi cyane nk'uko bishobora gutunga abantu benshi cyane bikagufasha nawe kwishyurira umwana ishuri, ukivuza ndetse n'ibindi byinshi .Uri kubona rero uyu nguyu n'ibyo yagerageje arangurura ibitenge arabicuruza kenshi bikunda gushyingirwa n'abagore cyangwa abagiye gushinga urugo.

Ku muhanda rwose urabona ko zifite isuku nta bipapuro birimo imodoka nyinshi zihagaze ndetse n'abantu bari munsi y'ibitaka, ikirango cy'umutuku kiririmo akarongo k'umweru cyerekana ko hatanyurwa, ndetse n'inzu nini cyane ubona ko wagira ngon'isoko.

Isoko riba ririmo ibintu byinshi bitandukanye ukurikije nibyo uri kubona nimyenda yimbere rwose yabakobwa ndetse niyabagabo hakurya hamanitse amakabutura ndetse nibikapu ushobora guha umwana agatwaramo ibindi bintu kwishuri agiyeyo.

Buriya kujya mu isoko birafasha kandi bigakemura byinshi ababyeyi baje baracuruza ndetse n'abagabo baza kugura. Imineke, hari inanasi, inyanya, amatunda, ibinyomoro, imyembe, ibyo bintu ntago wabibura. hakurya urahabona ibindi biriho wakiguriramo.

Abantu benshi cyane ubona ko nabo bafite ibyo bari bajemo, moto ziparitse, imitaka isa umutuku, ndetse n'ibipirizo binini cyane hakurya hari ikirango kiri mu ibara ryera ndetse hariho umukobwa usa nk'aho afite ibintu arimo.

M'umugi ubundi ni ahantu haba harangwa n'abantu benshi iyi ni imodoka iri kumanuka, kiriya cyapa rero ubona kiri mw'ibara ry'ubururu hariho imihanda ishamikiyeho ni icyerekana ko umwe ukomeza undi ugakata iburyo n'akandi kari ibumoso.

Buriya mu isoko niho hakunda kuba udushya kuba utajyayo ufite ikibazo rwose uziyongoze utemberereyo urebe uyu mubyeyi rero nawe ari gucuruza yambaye umwenda w'akazi hakurya urabona abandi basore bicaye n'abahagaze afitemo amashu, ibijumba, karoti, avoka ndetse n'amafu nibyo ndi kubona.

Kujya mu isoko ugahaha ni byiza, hano rero ni ku muhanda urahabona abantu bose barimo baragenda batembera, hakurya hari amamodoka menshi, amagare ndetse n'ibindi bintu byinshi, ni byiza ko nawe rero wahagera ukareba n'iyi taje yubatse neza.

Bano bantu ubona harimo abategarugori benshi cyane bambaye ubururu ndetse afite ikintu muntoki undi musore wambaye ishati y'umweru afite ikayi muntoki, rero barimo baraza hariya baje kubaza amakuru runaka yibyahabereye.

Umubyeyi ubona ko yishimiye gushyira ibintu mu gaseke nubwo tutazi ibyo ari byo, ndetse n'undi mugabo bari kumwe rwose wambaye umupira w'umweru, iruhande hari umwari uri kureba muri mudasobwa, amashakoshi ku meza, ndetse n'ibitabo bandikamo imyirondoro.

Akazu ubona ko kari mu ibara ry'umutuku amagambo yanditse mu rw'umweru inyuma hari amasiniya niba ndikureba neza yo kuriraho hakurya urahabona umubyeyi wambaye agapira k'umuhondo n'abandi basa naho barigutega imodoka bigendeye.

Abasore bose bagerageje kwihangira umurimo babonye byanze baravuga ati reka tujye gucuruza amayinite, tujye tunabitsa tubikure, ngabariya batatu bambaye imyenda y'akazi yose iri mu ibara ry'umuhondo munsi y'umutaka, harimo n'umukobwa nkurikije ukuntu ndi kubibona yaje guhaha. Hakurya hari amamodoka menshi ubona ko afite ahantu agiye.

Abantu benshi ni ngombwa kuza bakihahira ahantu babona ko isoko ryabo riba ryoroshye kwishyura cyangwa ibintu byabo, hano rero urabona batonze umurongo hari imbere umusore uri kureba muri mudasobwa bisa naho ari kubafasha kugira ngo bagire ibyo batwara, hakurya urahabona aho kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Uyu musore rero uri mu kazu yambaye umupira w'umutuku ndetse ni ak'umuhondo rwose kanditse amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, imbere ye hari abantu benshi batatu ubona ko baje kwaka ubufasha butandukanye burimo amainite kubitsa cyangwa kubikuza.

Kwihangira imirimo ni byiza ukamenya uko witunga ni uko ugaburira abantu bawe cyangwa ukiteganyiriza ejo hazaza, uyu musore rero agapira kiwe rwose karimo umweru ubona ko afite ikayi n'ikaramu ategereje abaza kumusaba wenda ibirimo amayinite kubitsa cyangwa kubikuza muri aka kazu keza k'amabara y'umuhondo n'ubururu.

Kuba wakihangira umurimo, cyangwa ugafata amafaranga ukayashora mu bucuruzi ni byiza. Kuko no kuba wajya gukora mu amayinite (kubitsa no kubikuza) nabyo nibyo nk'ibyo navuze, kuko bituma ubona umushahara buri kwezi wakitunga. aka kazu rero kari mw'ibara ry'umuhondo nibyo bikorerwamo. Hahagaze umugabo, anakora yambaye ipantaro y'umukara.

Ni byiza ko nawe niba ufite ibyo ukora wajya ukorera ahantu hakeye kuko birafasha cyane hano rero utubara tw'umukara ndetse n'umuhondo twize cyane ubona ko bari kwakira abantu bari baje kubabwira ibibazo byabo ngo bikemuke cyangwa baje kugura ibikoresho bakeneye.

Uyu musaza runako akuze rwose, kandi ari gukora akazi ashinzwe neza. Umupira w'umuhondo na telefone Ari gukoresha ikoranabuhanga ika n'ikaramu imbere ye mudasobwa wabona akakibasha kuyirebamo, imbere hari umusore rwose nawe aha ufite telefone yo mu bwoko bugezweho akoresha.

Ziriya ni imodoka ubonako Ndetse na moto zitwara ibintu bivuye hano ku iposita, bakorera mu mujyi, urabatuma bakabikugezaho mu rugo cyangwa se bakabikuvanira hanze babikuzanira inaha bitewe n'aho uri, azagerageza urebe.

Aho umusore mwiza cyane ubona ko asa n'ukuze ingofero imurinda ibyago, umwenda w'akazi w'ubururu urimo utugarurarumuri, ikote rimurinda imbeho, afite isanduku iri kuri moto arimo arakuramo agapfunyika ashyiriye abantu bari batumije ibintu bibereye mu rugo.

Kuba washaka ikintu runaka ukakibona wibereye mu rugo ni ibintu byakemuye ingendo za hato na hato cyane cyane nk'iyo watahaga nk'iyo watahaga unaniwe ukabura umwanya wo kujya guhaha cyangwa se ngo ugure imyenda uhita wigira kuri murandasi rero hano nk'uko ubibona kino kirango kibyerekana aho ushobora kubasura noneho.

Kugura ibintu ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza cyane biragufasha, ndetse imbugankoranyambaga zabigenewe kubikora, hano rero nkuko ubibona muri iki kirango harimo insenda, puwavuro, ibitunguru, amashu, n'imineke, n'inyanya ndetse n'ibindi.

Buriya hari ikintu kivuna umuntu kuba yagura ibintu agasanga ntibyizewe ariko hari hari imbugankoranyambaga ujyaho rwose ukabona ko ari amahoro ari n'abizerwa. Uzagerageze na hano ubitumize wibereye mu rugo bazagufasha.

Rero ni byiza kuba wakigurira imodoka rwose y'umutuku iyi ngiyi, ndetse ni toyota ya risi. Ntabwo nzi umwaka ariko iriho ikirango inyuma cyerekanako ushobora gutumiza ibintu bagahita babikugezaho, bishobokako ari iyi ngiyi yabikuzanira, hariho n'imyirondoro rero wabahamagara kuri nimero zabo.

Rero ushaka gutumiza ibyo mu mahanga waza hano, ni ku iposita bakorera mu mugi rwose ruguru yaho bitiyeni ikorera. Rero waza ibi bikamyo iyo uzanye imizigo myinshi nibyo biyikuzanira.

Mu isoko niho ushobora gusanga ibintu bitandukanye, ibi bitoki birakeye biri mu tuntu tw'umuhondo ndetse n'umutuku hakurya urabona abambaye imyenda y'akazi imisatsi ibarinda kwandura ndetse n'iminzani ibafasha guhaha ibyo navuze.

Kuguriraho ibintu kuri murandasi ni byiza kuko byagutabara. Uyu mwari useka neza ufite imisatsi igwa mu maso nawe nibyo yishimiye muri iki kirango kibyerekana ko ushobora kuba watumiza ibiryo bikaba byakugereraho mu gihe rwose.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Abasore babiri rwose ubona ko bishimiye kuba bafite ingobere zibarinda ibyago z'icyatsi ziriho n'imibare, ndetse ubona bari guseka barishimye. Ni byiza ko nawe rero wajya uzambara, ibi birareba abantu batwara ibinyabiziga bya moto cyane cyane kuko irakurinda igihe ugize ibyago.

Guhaha ni byiza ariko ukamenya naho ujya kubishakira. Rero iyo ufite ubunebwe ukaba utava murugo wenda utashye unaniwe, cyangwa se hari ibindi bintu bituma utahava, nakugira inama yo gukoresha murandasi kuko naho biba bihari rwose, nkuko ubibona muri iki kirango kiriho uyu musore.

Kuba wakwigurira ikintu wibereye mu rugo ni byiza, nk'uyu mukobwa yageregeje kugura udukweto kandi turamubereye afite inzara nziza rero iki ni ikirango kibyerekana, inyuma urabona hariho n'indabyo n'amafaranga n'aho ushobora kubakura.

Gukodesha inzu biba byiza cyane ariko biba akarusho iyo uyiguze kuko iragufasha hano rero harimo amakaro y'umweru ndetse n'umukara, ibikuta byiza bitatseho amatara, hakurya urahabona ni mu gikoni no mu buriro ubuse wayangira iki koko? Ijana na mirongo ine zawe ndavuga miriyoni ugahita uyegukana.

Gukodesha inzu byagufasha kandi bikagutabara mu guhe runaka bitewe n'amafaranga ufite hano rero ni Kabeza, iyi ngiyi ubona ni ubwogero bwiza cyane ndetse amazi aturuka hejuru, akadirishya gafunguye akayaga karinjira, guhera ku madorari maganatanu mirongo itanu yawe wayibona.

Kugura no kugurisha ni byiza kandi no kuranga amazu ni akazi kakugaburira, upfa kubu uzi ahari, uzi kubwira abantu ukabasobanurira rwose bakakumva, hano rero urabona ushobora kuza kuhatura, harimo intebe nziza cyane ndetse n'amakaro akeye, hakurya urahabona n'igikoni.

Kuba wagura inzu rwose wifashije ni byiza, igihe utayafite rwose wajya uyikodesha. Hano ni Kibagabaga urabona ko harashashe neza, harafunguye, wakinjiramo rwose ugahita wiberamo, ni igihumbi cy'idorari ubwo ni hafi agera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda.

Kigali iraryoshye ni byiza ko nawe wakodeshamo inzu. Aya meza urayabona ute? hakurya hari akantu kaguhuha igihe wumva ushyushye ukeneye akayaga. Imitako, televiziyo yo kureberaho imipira, intebe nziza cyane, ubu se wayishinja iki koko?

Kuba wagira uburiri busa neza ni ngombwa ndetse n'inzu zisa neza ariko bitabaye ibyo ushobora no kubisanga ahandi mu mahoteli runaka ndetse n'amazu akodeshwa wenda yayandi azamo abanyamahanga, hano rero hashashe igikuvorori kiza, isume yo kwihanaguza ndetse n'imisego n'igitanda ubona ko gikoze neza.

Gukodesha inzu, ni ingenzi nk'uko ubizi biranafasha cyane, byagutabara igihe runaka ubashije kuba wava mu mahanga utarabona aho kuba, hano rero ni mu bwogero, harimo ubwiherero nk'uko ubibona eh, bwa kizungu, ndetse idirisha ryiza cyane amakaro ari ku bikuta ku buryo uri koga nta kibazo wagira.

Kuba wakodesha inzu ni byiza ariko no kuba wayigura ni ikindi, rero nibyiza ko ubaye ufite ubushobozi wakora ikikoroheye ukurikije ukuntu uhagaze, iyi rero urabona ko igipangu kiza cyane inzugi, amadirishya kandi iri no ku muhanda, ihereye Kabeza rero wayihahira kuri miliyoni mirongo irindwi n'eshanu.

Buriya nawe nugira amafaranga uzaharanire yuko iwawe hasa neza nk'uko biba bikwiye. Intebe nziza nk'izi ngizi zirimo ubururu cyangwa se izindi, ameza akeye, umukeka hasi cyangwa se umusambi, nk'uko nyine inzu y'abandi ubona ko nawe igushimisha nawe ni ko wakabikoze wowe ukanarenzaho. Hano rero harimo n'udutara, amarido meza yo gukingaho rwose, ibintu bisa neza.

Ni byiza ko nawe ahantu ugomba kujya hose waba uri mahanga uri hanze cyangwa se ahantu runaka ugomba kuza warateguye aho uzaba, ahantu rero nk'uko ubibona hakeye hari esikariye nziza cyane, amadirishya akeye, inzu iteye amarangi y'umweru ni ibyiza ko nawe wajya uhagera ukarebe uko byifashe.

Buriya ko uri mu mahanga ukaza utazi iyo ujya niyo uva ni ikibazo. Banza umenye ngo nzabahi nimpaza, hari amazu menshi rwose ushobora kuza ukajya ukodesha inaha i Kigali iherereye kacyiru rero ku gihumbi magana atanu cyawe cy'idoradi guhita uza ukabamo usangamo ibintu byose.

Amazu akodeshwa yo ni menshi nk'uko mubizi, hano rero ni Kicukiro Kimironko rwose ifite ubwogero bumwe ndetse n'ibyumba bibiri byo kuryamamo ku mafaranga ibihumbi maganatatu byawe rwose urakibona kiriya ni igikoni ino nzu wayegukana.

Gukodesha inzu ni byiza cyane kuko biragufasha igihe ubikenera cyangwa ushaka kwegera akazi kawe kandi uri kuyibona hafi, iyi nayo rero niko bimeze urabona ifite amadirishya meza cyane hakurya urahabona ukuntu imeze rwose irakodeshwa Kimironko.

Ni byiza ko wajya ubika amafaranga yawe mu butaka kuko nicyo kintu kidahombana na kimwe nkurikije ibyo narebye njyewe, abantu babiguze miliyoni icumi ubu ngubu ni makumyabiri bari kubahereza kubera bihanganye kandi ni mu minsi mike, nawe uguze iyi nzu rero rwose ntago waba uhombye.

Kuba wafata inzu ukayikodesha cyangwa ukayigura ni byiza cyane. Kuko waba ubitse amafaranga igihe wenda uyibitse ikitwa iyawe. Ariko igihe uyibamo ni ngombwa kujya wishyura buri kwezi kugira ngo ubeho hano rero barazikodesha kandi ni nziza cyane.

Buriya ubukode ntabwo ari bwiza cyane cyane nk'iyo wabuze amafaranga cyangwa akazi kagahagarara usanga bikubanya ibibazo. Ariko ubaye ufite ubushobozi wagura akawa niyo kaba ari gatoya, gusa nanone akazi ufite kakwemerera kubikora wabikora ubifitiye amafaranga nk'iyinzu rero wayijyamo.

Kuba wakodesha inzu, n'ibintu byagufasha. Kandi ukumva umeze neza bitewe n'umushahara uhembwa cyangwa se bitewe n'ukuntu wegereye akazi. Urabona hashashe amabuye meza, inzu ifite imiryango myiza n'ibirahure iriherereye Kimironko. Ku bihumbi magana ane byawe, ufite ubushobozi wahita uza ukayibamo.

Nko gukodesha amazu ni keza cyane kuko birafasha nkuko ibibona imeze neza irasakaye, amadirishya ndetse hari ahantu washyira inzu, hakurya urahabona umuntu iyi rero iragurishwa, iherereye i Kigali cyangwa se wanayikodesha ubaye ubishaka, Kimironko ifite ubwogero bubiri ibyumba bibiri, ku bihumbi maganane gusa ukayegukana.

kuba wagura inzu cyangwa hagura ubutaka nibintu bishobora kukugoboka isaha n'isaha ndetse bikagutabara hano rero hari inzu iri kugurishwa rona hari aho gushyira imodoka ebyiri cyangwa eshatu biterwa nuububuryo wayihagaritsemo amadirishya ameeza n'indabyo zihateye rwose i ubona ko kumafaranga yawe makeya wajya uhaba

Ubaye ufite amafaranga wagura ubutaka cyangwa se ukagura inzu kubera ko ni byiza cyane. Iyi ubona rero irakodeshwa ifite ubwogero ndetse n'ibyumba byo kuryamamo bine, harimo indabyo ahantu washyira imodoka rwose ubona ko ari ibintu biryoheye ijisho.

Inzu nziza cyane ubona ko igeretse rimwe ifite amadirishya ndetse n'ibirahure bikeye umusore ubona yitwa purense niko akazi k'iwe, hejuru wabona hari utuntu ushobora guhagarararaho ukareba m'ubryo witegeye neza.

Gukodesha inzu ushoboye kwishyura ni byiza niyo nama nakugira kandi ari ahantu heza bitewe n'akazi ukora kakwegereye, iyi rero urabona iragereretse rimwe rwose hari ibirahure ifite n'utuntu twiza dutatse tunagaragara neza, iri hano kabeza rero ifite ibyumba bitatu n'ubwogero butatu.

Inzu ikodeshwa rwose urabibona, ibihumbi maganane byawe, ibumba bitatu ubwogero bubiri, igipangu cyiza cyane, amadirishya meza, amabati ndetse nibindi, nibiti yeee. Mbese nawe uhabaye byagufasha cyane, iherereye ikanombe.

kuba wafata amafaranga ukayakoresha mu bintu bijyanye n'ubutaka ni ibintu bifasha cyane kandi bituma udahomba iyi nzu rero ifite amadirishya afunguye urabibona hariho ibirahuri byiza cyane hejuru hariho utuntu dutuma umuyaga winjira ariko nanone dushobora gutuma imibu itinjira kugirango ibarye ni byiza rero ko wayikodesha hano ifite ubwogero ndetse n'ibyumba kubihumbi magana abiri na mirongo itanu byawe

Inzu zo gukodesha nazo ni nyinshi iyi ifite ama esikariye, utwuma, ibirahure, ndetse n'amakaro. Rero waza ku bihumbi magana ane byawe ukajya uyikodeshereza. Ubwogero butatu, ibyumba bine.

Mu maduka atandukanye niho usanga ibintu binakomera kandi byiza, rero na hano nk'uko ubibona uyu mubyeyi arimo arahaha ndetse si umwe gusa ni na benshi. Bamwe bari gusohoka abandi bakinjira ubona ko abandi bari kubijyana.

Ahantu heza rwose amakaro abonerana y'umukara ndetse nay'umweru harimo abantu ubona ko na bo bishimye barikumwe n'abana babo hejuru hari abandi bisa naho hano baza kuhahira ibintu bitandukanye nk'imyenda, inkweto cyangwa ibiribwa.

Abantu batwara ibinyabiziga ni ngombwa kujya bakurikiza, ibyapa byashyizwe ku muhanda kuko birafasha cyane, ku muntu uzajya ubona iki ngiki ,rero kiri mu mabara y'umweru ndetse uruziga rw'umutuku, harimo umuntu uri kwambuka ,bigaragara ko hakurya hari igihe urahita ubona uturango tw'umweru turi mu muhanda ,uhite uhagarara igihe hari abantu bakeneye gutambuka.

Ni byiza ko wajya ujya guhaha ahantu runaka kuko baba bafitemo ibikoresho byose kandi ushobora no kubisangamo ku mafaranga makeya, hano rero barimo, bafite utugare basunika bagenda bahitamo ibyo bashaka, bagera aho bagera, bagahita bishyura, bagasohoka.

Undi hari abantu bacuruza ibikomoka kuri peteroli ariko ugasanga bafite n'amaduka wenda uraje uhashyize imodoka yawe winjiyemo uhise ugura bari no kuguhereza ibyo waje kureba nyine ndavuga ibyo ngibyo bituma ugenda ukoresheje ikinyabiziga ukajyamo waba ari umugati ufite gahunda yo kuwugura, ugahita uwugura ugahita uza ugasanga byarangiye wigendera.

Mu isoko haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, aba rero ni abari n'abagabo bari baje guhaha, bafite imisatsi isokoje ukuntu, abandi bambaye ingofero, harimo utuntu wataka mu nzu twa kinyarwanda ndetse n'ibindi byinshi.

Ubwisungane mu kwivuza ni byiza kuko biragutabara igihe runaka wenda ubaye urwaye kandi ntabushobozi ufite, ushobora kugenda rero kwa muganga bakagufasha ibi nibyo leta yashyizeho ku buryo buri muturage atahendwa rwose cyangwa ngo ahure n'ibindi bibazo. Turabishimira rero mu buryo bw'abantu bose babonye ubuvuzi byoroshye.

Umwana ukiri muto ubona yambaye umupira w'umweru, ari hanze y'idirishya, mo imbere harimo umugabo ubona ko afite ikayi n'ikaramu arimo arandika imyirondoro cyangwa ibindi bintu runaka n'andi menshi amuteretse imbere, mudasobwa ndetse nkuko ubibona rwose, ariteguye ari gukora inshingano ze nk'uko bikwiye.

Iki rero ni ikigo gishinzwe ubuzima bw'abantu. Ushobora kwiteganyiriza ndetse ukanakora ibintu bitandukanye. Ari naho mituweli z'abantu zikoresherezwa akenshi iki kigo nicyo gishinzwe kubishyurira.

Aha rero nkuko uhabona ni abasore ndetse n'inkumi. Bambaye imyenda isa rwose y'umweru bigaragaza ko baba bari gushishikariza abantu kuba babika amafaranga kugira ngo bizabafashe mu gihe kizaza rwose, ni byiza ko nawe wajya ubikorera umwana wawe.

Ni byiza ko wajya uhahira ahantu heza cyane. Hano rero bagira imigati y ubwoko bwose ndetse n'imbuto, ubwo bivuze ngo ni mu isoko ariko ryo ryiyubashye rinakeye, harimo inanasi, ibinyomoro, amabanji, ibyo byose wabihabona rwose ukagenda ukikorera ji runaka.

Kuba wahahira mu maduka runaka akomeye amwe dutinya byagufasha, urugero uzabanze wigerereyo urebe nawe uzasanga n'ibintu byaho bihendutse kuruta iby'ahandi, urugero niba ari nk'umugati urasnaga ugura icyatanu, aho wangenda ukawubona nko ku cyabiri cyangwa icy'ijana.

Hari amaduka akomeye adahenda abantu bayo binjiramo ahubwo ugasanga bari kwigurira amasabune, amavuta, ibyo kurya ku giciro gito rwose hano harakeye, bipanze ku kurongo ntiwabura icyo ushaka, aha biba binanditseho yewe akarusho noneho ni uko biba bihendetse kurutaho.

Ni ikintu cyoroshye kuba wajya mu iduka, cyangwa se wajya ahandi hantu ukahahahira. Ariko nkuko hano harimo ibintu bitandukanye byo kunywa ndetse n'ibyo kurya. Uyu musore ateruye imashini ndikureba y'umukara n'umweru inyuma ye hari undi umukurikiye usa nkaho babiri bafite ibyo barimo gukora.

Hari ibiceri nyinshyi ushobora kuza guhahiramo rwose ibintu byaho bisazi n'ibihendutse Kandi biniyubashye Kandi binasa neza nk'uko ubibona iki kirango kiri mu maraba atandukanye. Ndetse ko Ari no ku muhanda hari n'imondoka runaka ziri guhatambuka, n'izindi zihagaze aho ngaho.

Umugabo usa n'ukuze mwiza cyane rwose wambaye imyenda isa y'ubururu inkweto zifunguye agacupa mutoki, inyuma ye hari umukozi ukora muri iri duka ubona ko ari kumufasha agenda amushakira ibintu ashaka kugura, ngo abicyure abishyire mu rugo abana cyangwa umugore.

Hari amaduka rwose ubona ko ugiyemo utaba uhombye, kuko ibintu byabo biba bihendutse biri ku murongo, ndetse n'ibiciro byanditseho utajya wirirwa ubaza rwose. Na hano uhageze rero wabisangamo urabibona nawe ukuntu biri ku murongo bikeye.

Hari amaduka rwose ubona ko afite gahunda nakeye ndetse bitewe n'ukuntu yubaketse ukabona ni'ibintu bifite gahunda, nka hano ushobora kuza ugasanga amacupa yawe atondetse ku murongo bitewe n'ayo ushaka niba ari ji, umunyu, amasabune ndetse n'ibindi nabyo wabibona nk'utu tubido turi hano rwose urabonako tumanitse neza.

Uyu mwari wambaye umupira w'umuhondo afite ibintu ari gupfunyikira uyu mubyeyi bisa naho arimo aramugurira ibintu runaka, rero nawe wajya uza mumaduka ukihahira ushobora kubonamo ibintu bihendutse kuruta ibyo wari kujya gushaka ahandi.

Ni byiza ko wajya uhahira mu masoko akomeye kuko ibintu byaho biba bihendutse. Harimo abali beza bakwakirana urugwiro mu myenda myiza y'umutuku n'amakanzu y'umukara, rwose baraberewe. Abandi nabo bari kugenda bareba ibyo bashaka kugira ngo babigure bitahire.

Uyu muntu urabona ko nawe yari aje kwihahira mu maduka atandukanye cyane ka ari naho biba bihendutse, yari amaze gufata icupa rero ririmo ibyo akeneye ndetse n'ibindi bitondetse ku murongo byinshi cyane nashakamo ibindi arabifata.

Iduka ryiza cyane ubona ko rikora cyane harimo n'ibintu byinshi amabiswi, ibindi bintu biba biri mu mashashi ushobora kuza ukarya nawe rero waza ugahaha kimwe nuko ushobora gusanga bihendutse, amakaro meza y'umweru ubona ko anakoropye harimo isuku.

Mu maduka akomeye cyane niho haba hari imigati myiza inaryoshye, nk'uko ubibona hano iranapanze iri ku murongo rwose ntiwayoberwa aho iri. Hari udutara twaka ndetse n'ibiro bikonjesha ibyo kunywa. Harimo amaji, fanta, n'ibindi nkuko biri hejuru hariya.

kara hari abantu atabara cyangwa bakunda kutagenda ngo babyigane n'abandi ukandagira umuntu abahakwibi wagiye mu isoko ariko ibyo wabona ngaho n'ndi nibyo wabona hano harimo ibintu byinshi imigati amandazi fanta n'ibindi kuko buri gice kigiye kirimo ibyacyo kandi binapanze ku murongo utabibura.